Abantu bahagaze, inyuma yabo hari pakarite yanditseho twite ku buzima bw'umubyeyi utwite kikaba cyari igikorwa bahuriyemo hari abantu batandukanye.

Umwana uri kuvomera mu ndobo yatezeho ibiganza ariko kunywa amazi, hirya hari inzu isize irangi ry'ubururu n'umweru hari n'ibiti bikikije aho n'ibyatsi.

Umuganga ufite urushinge ari kurutera umumama wicaye afite agasakoshi mu ijosi yambaye n'agapfukamunwa yafunze amaso kugira ngo atababara n'inyuma yicaye abandi baganga ku meza igihe yateretseho ibikoresho bakoresha.

Abantu bateraniye ahantu hamwe hari ihema harimo ibyatsi hari abicaye abandi barahagaze hirya hari n'inyubako, bari bateraniye mu gikorwa kimwe bari kuririmba bakoma amashyi.

Muganga afashe umwana ku munwa kugira ngo abashe kubona uko amuha umuti, mama we aricaye aramuteruye, muganga arahagaze yambaye n'itaburiya, inyuma hari urugi rufunguye.

Abana bari ku mugezi baje kuvoma hari umuntu uri kubafasha kuvoma amazi, hirya haparitse imodoka n'ishyamba hakurya ibiti n'ibyatsi bihakikije.

Umwana muganga ari ku kumupima yumva ko umutima we utera yamushyizeho akantu kunda nawe we agashyira mu matwi kugira ngo abashe kubyumva, na mama we yicaye kumpande inyuma hari taburo.

Umwana uri koza indobo, ari kuvomera ibiti biteye aho ngaho. Hari n'ibindi biti bikoze kokiteri biri ruguru, n'izindi ndabo ziteretse aho ngaho ku ivomero.

Abantu bahagaze mu ibaraza ritwikije amabati, inyuma hari inyubako, hari na bankarite yo ku ruhande iriho umuntu wambaye itaburiya n'akantu bapimisha kari mu ijosi rye. Hirya hari umukindo n'ibyatsi, hari n'ibyatsi biteye hasi.

Abantu bari kwa muganga, umwe baricaye hari n'uhagaze ndese n'umwana, bafite n'agafishi mu ntoki agakarine, hakaba hari n'uri gutayipinga muri machine, icyo ari kuvana ku ifishi.

Umwana uri kuvoma ku mugezi, kuruhande hari umumama ari nk'ufite umutaka w'ubururu, hepfo hari abandi bana bakikije aho bavomera, umwana afite n'igitenge ku rutugu.

Umubyeyi uteruye umwana afite byinshi mu ntoki, hirya hari abandi bantu benshi bicaye, bameze nkaho bari kwa muganga bagiye kwivuza. Hari n'abicaye mu miryango y'aho bari bubakirire.

Umugabo uri ku mugezi afite ijerekani iteretse hasi, ruguru ye hari umukingo hari n'imiyenzi ihakikije, hari na Korutire y'inzu iri kugaragara, aho ku mugezi hakaba hari robine ebyiri.

Umukobwa uri kuvama amazi, afashe ijerekani ayitereka mu mabase abiri, hirya hari indi jerekani n'inzu y'amabati n'imyenda yanitse ku mugozi, hirya hari ijerekani n'amabasa.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama hirya hari irishati ihamanitse hari ifoto y'umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame ku meza yateretseho indabyo z'imiteguro hari n'amacupa y'amazi n'ibirahure n'amadirishya.

Abantu bakikije umugezi, hari uwambaye akagofero k'umuhondo bambara mu bwubatsi, abana bahakikije bafite indobo z'umuhondo n'amajerekani, robine uko ari eshatu zose zirafunguye amazi arimo arameneka hasi.

Abantu babiri bari ku mugezi, bahagaze kuri robine ebyiri, umwe agiye gukorera undi ndobo, ku ruhande hari inzu y'ibyondo isakaje ibyatsi, hirya hari ishyamba rihari, n'ikibaya.

Abana bari ku mugezi bateranye, aho bagiye kuvoma, hirya hari ibyatsi n'ibiti, hari uwari umanutse aje kubafasha kugira ngo babashe gupompa amazi.

Nyuma yo gukaraba intoki, gukarabira imbere y'inzu k’umuryango hateye ibiti bibiri biriho akabido kuruhande hari aho gushira isabune.

Umwana bari gutera urushinge, umubyeyi we amufashe ukuboko n'umuganga afashe ku kuboko aho ari gutera urushinge, umwana we bari kumukingira.

Abana bari ku mugezi hari umuntu mukuru uri kubakompera amazi kugirango aze, hirya haparitse imodoka hari n'agashyamba n'ibyatsi byinshi biteye aho hantu.

Abana bicaye hasi bambaye imipira ya oranje, hari umubyeyi uri kubanywesha amata, inyuma hahagaze umusirikare ufite icyansi mu ntoki n'umufuniko wacyo, bakaba bari kubabanywesha amata.

Ku mugezi hateretse ikibase kinini, hari aba ari gupompa amazi, undi ari kudaha muri icyo kibasi giteretse hasi, hari igikuta kihakikije, inyuma y'igikuta hari ibiti bihateye.

Abantu benshi bari ahantu mu kibuga, hari uri gukambakamba hasi, icyapa cyanditseho Ebola n'ufite mikoro, bameze nk'abari gukina teyatere, bavuga ku bubi bwa Ebola.

Umugenzi bari kuvoma bamwe bafite indado abandi bafite utubido, bityo hari n'abana n'ibiti bikikije aho hantu, hakaba hari umugabo wari uri kubafungurira rubine.

Umwana uteruye indobo, yamunaniye, ari ahantu hari ivomero ririho robine enye, hari n'umugabo uhagaze impande, agiye kumushyiriraho ingata kugira ngo abashe kwikorera.

Umusore uri gukaraba intoki kuri robine. Ku ruhande yateretse indobo ipfundikiye, inyuma hari imboga, hari n'ibiti, n'ibyatsi. aho yarari koga...

Abana bambaye iniforome bari ku mugezi, buri robine iteretseho indobo, ku ruhande hari n'akabido gatonya, inyuma hari imikindo hari n'inyubako iri kugaragara uruhande rumwe, abana bakaba bahuriye ku mugezi.

Ikusanyirizo ry'amazi yohereza ahantu hatandukanye, aha ngaha rero ni aho bayabika kugira bayatunganye, babone kuyohereza mu mavomero y'abantu.

Umwana ufite igikombe ari gusukira mugenzi we ku biganza amazi ngo akarabe intoki, inyuma hari ibyatsi bihateye, icyapa cyanditseho yunisefu foru everi cadi, washi bajeti burifu.

Abantu bahagaze bafite impapuro mu ntoki, inyuma yabo hari imodoka ifunguye hari n'amahema ari kugaragara hari n'ibyatsi biteye hasi, hirya y'ihema hari igiti.

Umubyeyi uteru uyu mwana hari n'undi uri ku mpande ye bicaye ku musambi hasi, hariho n'inkoko iriho n'ingemeri, yari ari gutoranya soya bicaye imbere y'inzu y'ibyondo.

Umubyeyi uhetse umwana, hari n'undi uhagaze ku ruhande rwe, atetse igikoma arishimye yambaye n'agapfukamunwa, inzu yabo yubakishjwe n'ibyodo irimo irido.

Abantu bateraniye hamwe bambaye imipira isa bose nta mugabo wambaye ishati y'umweru n'umugore babari hagati n'umuzungu uri ku mpande, inyubako iri inyuma yabo.

Umuntu wicaye hasi arasa nabi yicaye mu gipine ku ruhande hari abandi bantu bahagaze, imisatsi yamukuriyeho n'inzara zarashokonkoye.

Umukecuru utetse ku ziko akoresheje amabuye yacanyemo ibiti, hasi hateretse igikombe n'umufuniko w'isafuriya. Hirya hari inzu y'amatafari, hari n' ibiti n'insina.

Kwireba muri miruwari, afite uburiso buriho umuti w'amenyo mu ntoki, imbere ye hari n'utundi tuntu tuhateretse hari n' ikirahure kirimo ubundi buroso bw'amenyo

Umwana wasamye muganga ari kureba mu menyo ye n'akuma barebeshamo, na we arararamye kugira ngo abashe kureba ibyo yashakaga kureba, yambaye umupira w'umuhondo n'amaherena, muganga yambaye ga ku ntoki.

Umusore ufite urudodo mu ntoki arufatishije ibiganza bye byombi ari kurushyira mu menyo avanamo imyanda. Urudodo barukoresha bahanagura amenyo hari imyanda iba yanze kuvamo, baboroshesheje borose.

Umuganga wambaye agapfukamunwa yambaye na ga, afunguye akanwa k'umuntu uryamye ku gatanda inyuma ya etageri zirimo ibikoresho byo kwa muganga na taburo imanitse.

Umugabo ufite urudodo mu biganza bye byombi, akaba ari kurukoresha mu menyo, avanamo imyanda iba yanze kuvamo, mu gihe umuntu aba ari koza amenyo, imyanda ntishiremo.

Arasamye bamushyize akantu mu kanwa muganga yambaye ga n'agapfukamunwa no hirya hari abandi bambaye udupfukamunwa ku meza harimo ji y'Inyange n'umuti wica mikorobe wo mu ntoki.

Umuntu uri kwireba muri miriwari, afite akadodo koza amenyo ari kugakoresha asukura amenyo ye kuko iyo hari imyanda yafashemo uragakoresha kugira ngo imyanda yose ive mu menyo.

Umuntu wasamye, undi n'amaso muganga ari kumumurika mu kanwa, arwaye amenyo, n'undi uri ku mpande uri gufasha muganga, bakaba bari kureba ikibazo iryinyo rye rifite.

Umusore afashe urudodo n'ibiganza bye bibiri. Urudodo rukaba rukoreshwa mu koza amenyo, umuntu akavanamo imyanda yose iba yafashemo mu gihe aba yaborosesheje uburoso imyanda ntishiremo.

Umugabo uri muri dushe yambaye penywari ari kuborosa amenyo yireba muri miruwari, hateretse esuwitu iri kukuma inyuna hari n'irido yaho bogera.

Umwana uryamye arayasamye barimo baramusuzuma mu kanwa hari akantu bamuritse munsi y'amenyo haru n'undi uri kwijombamo akantu mu ruhande rwo hirya.

Umukobwa uri kwamuganga arasamye, muganga yambaye ga n'agapfukanwa, ari kumuvura mu menyo aho yari arwaye amenyo arimo arareba ikibazo cyaba kiri mu menyo ye.

Umwana wafatanyije amenyo, afite uburoso bw'amenyo mu ntoki, agiye koza amenyo, ni byiza kumenyereza umwana gukora isuku yo mu kanwa kuko bituma imyanda yose iri mu kanwa ivamo.

Umwana uri kwa muganga yambaye igitambaro cyo kwa muganga, muganga afite pense yambaye na ga mu ntoki. Ari kumukoza ipense mu menyo, ashobora kuba yari arwaye amenyo umwana.

Umukecuru wicaye hasi, iruhande rwe hari amashyiga ari gutekeho, hari n'inkwi ziri hasi, urugo rukoreshejwe n'imihate, hirya hari n'igiti kigaragara hasi.

Umukecuru ushinze inkokora ze hasi ku gataka ka siporo, ari kureba imbere yambaye isengeri afite n'imvi akaba yari ari muri siporo ari kuzikorera mu rugo, siporo akaba ari ingirakamaro mu buzima.

Abakecuru bari muri siporo bari kuzikora bishimye iruhande rwabo hari ibiti bitagaragara neza siporo n'ubuzima siporo ni nziza mubuzima kuyikora iyo uyikoze irwanya no gusaza imburagihe.

Abantu batatu, umusore afite isahani iriho umugati, n'utundi tuntu kumpande, bari kumushiriraho n'imboga kuko imboga ni ubuzima kandi zubaka umubiri.

Umuganga afashe ukuboko k'umusaza. Umuzaza afite akanti mu ntoki apfumbatije, muganga ari kumureba nkaho ari gusuzuma ibyo ari gukora.

Umusaza n'umwana bari gukina gemu, umusaza yicaye mu kagare, inyuma hari imitako ihari hari n'umusego uri mu ntebe, bari no kuganira baseka.

Umukecuru n'umusaza bahagaze iruhande rw'ameza, umusaza ari gufungura imiti, umukecuru ari kureba uburyo ari gufata imiti, ku ruhande hari rinete ziri ku meza n'igikombe, inyuma hari n'utundi dukoresho turi kugaragara.

Umusaza wicaranye n'abana, bafite ibyo bari kurya mu ntoki; no kupande afite akavido mu ntoki. Umusaza afite n'inkoni yashyize ku kuguru; inyuma hari n'inyubako.

Umumama ufite isahani iriho sarade mu ntoki, afite na furusheti mu ikindi kiganza, inyuma hamanitse akabati, hari naho umuntu yatereka ibintu yari ari muri kiceni.

Mu isoko harimo abamama imbere y'abo hari inyanya hirya hari imbuto hari n'ibindi bintu biri mu isoko bameze nk'abari kuganira ku bucuruzi buba bwabahurije mu isoko nk'abacuruzi.

Famiye irimo ababyeyi abasaza n'abana, bicaye mu ntebe bari guseka barishimye, inyuma hari kugaragara indabyo n'itara riri kwaka. urikureba umwana.

Umusaza ari kunywa imiti, hateretse agacupa ku meza n'ikirahuri cy'amazi, umukecuru ari kumwereka ku rupapuro ibyanditseho, taburo zimanitse ku bikuta n'aka etajeri n'intebe.

Umuganga n'umukecuru bicaye, muganga yambaye agapfukamunwa, afashe ukuboko kw'umukecuru, sinzi akantu yamushyize ku kaboko, inyuma hari ibiti n'uduti tw'umuhondo dukikije jaride n'ibyatsi.

Umugabo n'umwana w'umukobwa ufite umupira wa basiketi mu ntoki, ikibuga gikorotijwe n'utwuma, hirya hari inyubako n'ibiti n'ibyatsi.

Umuganga w'umukobwa, ari gusuzuma umusaza, bicaye mu ntebe, inyuma hari akabati gateretseho itara, idirishya riri inyuma y'intebe bicayeho.

Umukecuru n'umusaza bari kureba muri telefoni, umukecuru afite urupapuro mu ntoki imbere yabo hateretse imiti n'ikirahuri cy'amazi hari firigo inyuma n'imitako.

Umusaza wicaye mu kagare, inyuma hari umukobwa uri kumusunika hari n'inyubako iri kugaragara n'ibiti na jaride n'inzira y'abanyamaguru. Ashobora kuba yari afite nk'uburwayi butuma atabasha kugenda.

Umumama wicaye mu kagare, hari n'umuganga wicaye mu ntebe, akaba arimo aramupima anareba aho ibipimo bye bigeze. Abantu iyo bageze mu za bukuru barwara indwara zitandukanye, niyo mpamvu biba ari ngombwa ko bakipimisha buri gihe.

Umumama n'umukobwa hari ameza ariho ikirahure cy'igisorori, n'akantu ko gukatiraho, hariho karoti, kokombure n'inyanya n'imboga, bari guseka nk'abari kuganira.

Abantu bari mu muhanda abasipakata ebyiri imbere zanditseho twirinde kanseri y'ibere tuyisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira .Inyuma hari imikindo hari n'amapoto y'amatara hari n'inyubako iri kugaragara na korotire y'utwuma.

Minisitiri w'ubuzima yicaye imbere n'undi muzungu, imbere yabo hari abandi bantu bicaye. Bari bari mu nama bari kwiga uburyo bahagarika icyorezo cyari cyarateye muri makumyabiri, makumyabiri na kane cya mabaga.

inyubako ya poliklinic de litware ku ruhande hari igiti n'inyuma hari igiti, imbere hari umutaka w'umu ajenti, hari n'imodoka zitandukanye ziparitse imbere mu mbuga yayo.

Abantu bamwe baricaye abandi barahagaze, bari imbere y'inyubako, bahagaze ibaza ririmo umusirikare n'umupadiri ku nyubako y'ababyeyi bo kwa muganga, iyi nzu ikaba yarubatswe ikaba yarubatswe ku bufatanye na Enaberi.

Abagabo babiri bicaye, hari n'ameza ateretseho akamashini, umwe yambaye ijire yanditseho arabisi, hari n'icyapa cy'irembo, uyu wambaye baji wa bakabaye bari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Inyubako y'ibitaro bya Nyarugenge, imbere mu mapave hateyemo uduti ku ruhande hakikijwe n'ibyatsi bya pasiparume hari n'aho bagiye batera uturabyo tugiye tuzungurutse hari n'abantu bahagaze aho binjirira.

Abantu bahagaze mu mbuga y'amapave, inyuma hari inyubako yanditseho isange wani sitopu senta Kabutare hosipito, ruguru hakaba hari imikindo n'inyubako hari n'imodoka iparitse, bakaba bari nko mu gikorwa kimwe bose bambaye n'udupfukamunwa.

Sale yo kwa muganga y'abarwayi harimo ibitanda. Igice cyo hepfo n'icya ruguru bakaba batandukanywa n'igikuta cya oranje. Aka kantu ka oranje kandi ni ako abaganga baba barimo. Biriya bindi ni ka etajeri bashyiramo ibikoresho, hejuru hamanitse na supanete.

Inyubako yo kwa muganga ya laboratware. Abantu bicaye ku ntebe hari n'abandi bicaye hasi kuri fondasiyo. Bakikijwe n'uduti dukikije jaride hari n'inzira y'abanyamaguru bacamo bavuye kuri laboratware.

Jaride yo kwa muganga iteyemo imikindo n'uduti tw'umuhondo dukikije jaride, hasi hari ibyatsi, hepfo hari igiti n'imikindo, hakaba hari korutire y'amatafari, hanaparitse imodoka.

Inzu irimo ubwoko butandukanye bw'ibikoresho bakoresha bari muri siporo ikaba ari inyubako irimo nkafte zizamutse hirya hari imiryango hari na puberi bajugunyamo imyanda yari arimo n'icyo akoresheje ari muri gimu.

abantu bicaye muri koridoro bameze nk'abari ku murongo imbere hari umuganga uhahagaze wambaye n'agapfukamunwa dore n'abandi bantu bari guturuka hirya amatarai aracanye hari n'amadirishya

Imyicungo y'abana ikoze mu byuma iteye ahantu hari ibyatsi. Hari koruteyi n'amatafari yumye n'utwuma. Hirya hari amazu n'ibiti n'ipoto y'amashanyarazi.

Abantu batatu bambaye imyenda y'ubururu n'utuntu mu mutwe, ni abakozi bo kwa muganga bahagaze ku muhanda, inyuma yabo hateye ibyatsi hari imikindo n'ibiti hari n'abantu bari kugaragara hirya n'inyubako.

Hopitari ya Rwamagana hahagaze abantu imbere y'inyubako, ibibabi by'insina biri kugaragara, ibyatsi biteye bahagaze ahari amapave, hari n'amadirishya afashe ku nyubako.

Inyubako y'ibitaro bya Croix de sud kwa Nyirinkwaya, hejuru hariho umunara, ku mpande hakikijwe n'imikindo na jaride, hari amabuye asashe hasi, kuri geti hari bariyeri n'imodoka ziri muri parikingi.

Umwana bamumushyize mugakapu abari kumupima ibiro hejuru hari umunzani bamutendetseho ku mpande hari abandi babyeyi bashaka nabo gukingiza abana.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo amamashini atandukanye, umuntu aryamye ku gatanda, abaganga batatu umwe aricaye, umuntu bamurambuyeho igitambaro, muganga ari kureba mu cyuma asuzuma uwo muntu uryamye.

Ibitanda byo kwa muganga bipfunditse ku murongo, harikwaka n'amatara, ku gikuta nka supaneti ziramanitsema, amarido amanitse kuri buri igitanda barambura iyo arimo aryamye, kugitanda hari n'utubati bashyiramo ibikoresho hirya y'umuryango hari n'igikuta gitandukanya ibitanda byo hepfo n'ibya ruguru.

Farumasi yitwa goodlife, ubwiza ni ubuzima ikaba ikorana na asiranse zitandukanye buritamu, saniramu na araesiesibi, n'izindi ku mpande hakaba ari aho bacururiza imyenda hari n'imodoka iparitse imbere ya farumasi.

Umukecuru n'umuganga baricaye inyuma hari ibase n'ibiti biri kunzu y'amatafari ya rukarakara, insina n'ibiti, hirya hari ibiti mu nsina hari n'imyenda yanitse.

Ibitaro bya mukura deside kwa Nyirinkwaya biherereye i Remera hafi no kuri RIB, ibi bitaro bikaba byakira abantu batandukanye hamanitsemo icyapa cya isita Afurika.

Inyubako y'ivuriro ifite korotire y'amatafari hamwe n'utwuma, hejuru y'inyubako hariho akandi kantu k'akazu. Hari abantu bari gusohoka, imodoka ebyiri ziparitse, hari n'amapoto y'amatara.

Umumama uryamye ku gitanda kwa muganga, iruhande bwe hari imashini ariho udusinga akaba ariyo bareberaho ubuzima bwe aho buhagaze, hari na serumu imanitse.

Umusore ufite icupa ry'amazi, ari kuyisukaho mu mutwe amumanukira mu maso, yambaye isengeri y'icyatsi na burasari ya move.

Umusore uri muri siporo ari kwigorora, yafashe ukuboko agushyira ku kirenge, n'ukunndi agufatisha hasi, yambaye isaha hejuru nta mupira yambaye yambaye n'ikabutura.

Yifashe kukundi kuboko hariho n'ishashi, ashabora kuba ahari ari kubabara kubabara, agashiraho ishashi irimo amazi akonje, kugira ngo ububabare afite bugende bugabanyuka.

Umukobwa ufite icupa ry'amazi yarishyize ku munwa ari kunywa amazi, afite telephone yaziritse ku kuboko akaba yari ari muri siporo ari kwiruka, hari n'ibiti biri kugaragara.

Six park core iri kugura ijana na makumyabiri by'amafaranga y'u Rwanda. Core max yagufasha gukuraho inda bikoroheye. N'akamashini ushobora gukoresha inda ikagenda .

Umuntu uhinnye ukaguru yafashe ishashi yishyira kukuguru ashobora kuba yari yakomeretse cyangwa yatsikira yo gushira bishashi kungera kugira ububabare bugabanuke.

Umusore n'umukobwa bari muri siporo, bafite amacupa, hakurya hari umusozi n'inzu n'ibiti bitari kugaragara neza, bari muri siporo biruka.

Imbuto, fureze, ubunyobwa, ifi, indimu, teyi, metero, aritere, ji iri mu kirahure, amazi ari mu kirahure.

Umukobwa ari gupfuka umusore ku ukuboko nk'umukinnyi akaba yarari kumupfuka bigise ikibazo ku kuboko n'ikibuga bari bari gukiniramo.

Ari gukora siporo arunamiye afasha munsi y'ibirenge, ibituza biri ku mavi, arimo guseka iyo ari muri siporo ari kuyikorera mu nzu.

Irongi, umuneke, inanasi, pome, indimu, ibinyampeke, imidari, ibinini, icupa ry'amazi n'ibyuma bibiri.

Umuntu utambikishije ukuguru kumwe ku gatapi ko gukoreraho siporo ari gukora siporo hirya ye hari bafure hari na purize yo kugikuta.

Umwana ufite icupa ry'amazi yarishyize ku munwa, ari kunywa amazi. Ku ntugu ze hariho isume y'umweru; yambaye n'isengeri, ameze nk'aho yari avuye muri siporo.

Imboga n'imbuto z'ubwoko butandukanye, harimo kokobure puwavuro, pome, indimu, borokoli n'ironji n'imineke na ariteri z'ubwoko butandukanye ku mpande, bikaba ari ibintu byifashishwa mu gukora siporo ukanarekipera.

Aricaye afite icupa ry'amazi mu ntoki yambaye isengeri y'umukara, hirya hari umuntu uri kugenda agaragara n'igicucu cy'umuntu akaba yari muri siporo uyunguyu wicaye.

Ikiganza gifashe ishashi irimo amazi, yishyize ku kuboko, ashobora kuba yari afite ububabare, yashyizeho ishashi ikonje kugirango ububabare bugabanyuke.

Umugabo wicaye umugore arahagaze iruhande rwabo hari ibikapu bine binini n'imbaho n'ibyuma, inyuma hari ibyatsi bihateye n'ibiti biri kugaragara umugabo yashyize agacupa ku munwa k'amazi.

Afashe ku kirenge ari muri siporo, ukundi kuguru kurahinnye, ku gutwi kwe hariho telefone yambaye ecouter, yicaye hasi, imbere yateretse icupa ry'amazi, yari ari muri siporo.

Afashe icupa ry'amazi, arishyize ku munwa, ku gitugu cye hariho agasume k'umweru, ameze nk'uwaruri muri siporo, siporo ni nziza, siporo ituma umuntu agira ubuzima bwiza, ikamurinda kurwaragurika.

Ikiganza gifashe agacupa k'amazi ,agacupa kari ku munwa ari kunywa amazi ,icyo kiganza cyambaye n'isaha yambare n'umupira, afite n'ubwanwa haragaragara n'izuru.

Ikirimot wajetare tubiri metero ba pimisha imboga angikase

Umukobwa umanitse amaboko ari muri sitoroce, imbere y'amazi yashyize amaboko hejuru arayafatanyije akaba yari ari muri siporo.

Ibiganza bifashe imbuto n'imboga mu ntoki ruhande hari icupa ry'amazi mariteri inkweto za siporo n'agatapi, n'umunzani hariho pome, pavuro, avoca, utunyanya duto, tungurusumu. ruyoka na burokori.

Ni umumama uteruye umwana ,umuganga amuritse imashini mukanwa ,ari arikureb mukanwa h'umwana ,ari kureba ikibazo hafite, amufashe kumutwe umwana arasamye. Hari undi mugore n'umugabo bambaye udupfuka munwa bahagaze ,hagaragara umuryango n'ameza ateretseho ibipapuro.

Icupa ry'amazi riteretse mu mazi, hari n'ayandi yazamutse hejuru, amazi ni meza, amazi ni ubuzima, amazi ni ingirakamaro, akoreshwa mu bintu byinshi.

Umubyeyi n'umwana bicaye ku gitanda harambuyeho amashuka n'igitenge, na supanete zimanitse, n'irido biri ku idirishya, hirya hari n'undi mu mama hari n' ibintu bitetse ku bitanda.

Umusore ufite icupa ry'amazi ari kunywa yambaye kuteri mu ijosi rye yizibitse na telefone ku kuboko akaba yari ari muri siporo, yifashe no mu mugongo.

Umusore uri muri siporo yashyize ibiganza bye ku ivi, yambaye koteri yaragiye no gushinga ibi hasi, inyuma hari imbuga iri kugaragara akaba yarari muri siporo.

Yicaye hasi ari gugorora umubiri: amaboko yafatishije ku kirenge kimwe, ukundi kuguru kurahimye, ku kuboko yaziritseho telefone, yambaye na ekuteri mu matwi, iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi, hirya hari n'ibiti bihakikije.

Umuravumba ni umuti wa Kinyarwanda, uvura ibintu byinshi, umuravumba hano barawumishije bawugira ifu, bawushyira mu gikombe, kirafunze neza, umuntu akaba yawukoresha yivura inkorora, mu nda n'ibindi.

Umuravumba ni umuti ukoreshwa wivura inkorora, ibicurane, mu nda, ukaba uteye ahantu.

Product za forever living product, forever gel urayinywa ikaba yakoza mu mara harimo imyanda bigasohoka n'izindi nazo ni product za forever living izo product zikaba zikoze mu igikakarubamba.

Alowe jojoba ni shampo ya foreva livingi porodagiti, ukaba uyimeshesha mu mutwe uzanamo imvuvu zikagenda cyangwa imisatsi idakura neza ikaba yakura neza mu buryo bwiza.

Utubogisi tubiri, duteretsemo Rabero mwenso alowilips indinzo faliver allips zose zikora kimwe kuko ni produt sarfationlling.

Umuti w'amenyo ukoze mu gikakarubamba, ukorwa na forever living, uvura amenyo, yaba umwana, umuntu mukuru, buri wese arawukoresha.

Seliva cariveri elinekitari akaba ari purodakiti ya foreva, ifasha abagore baba bafite ibibazo byo mu nda, iyo bayinyweye ikaba ibafasha cyane.

Ibikakarubamba biteye mu murima hari n'ibiti bigiye byivangavanzemo. Igikakarubamba kivura ibintu byinshi, bagishyira ku gisebe, bagikoramo imiti ni ingirakamaro.

Tangabizi tangawizi ni ikirungo gikoreshwa mu bintu bitandukanye mu biryo, mu cyayi, mu muti ikora ibintu byinshi tangawizi. Ukaba wayikoresha warwaye inkorora bikaba yabigufashamo ugakira.

Isabune ya foreva rivingi ikaba ikozwe muri avo n'igikakarubamba, haragaragara igikakarubamba n'avoka isatuye n'isabune iri hagati.

Ibibabi by'urumogi bikaba ari ibiti bifite amashami ariho ibibabi, akaba ari urumogi ruteye nk'ahantu ruba rwarakuze rukagira ibibabi byinshi birufasheho.

Umubyeyi uri gucuruza imiti ya kinyarwanda, imbere ye hahagaze umugabo, inyuma hari intebe za purasitike, yambaye na baje, ku meza hateretse amacupa y'ibyo acuruza bifunze. Hirya hakaba n'abandi bari gucuruza. Wagira ngo bari mu imurikagurisha.

Umuti w'amenyo, amavuta yo kwisiga, isabune yo koga, byose bikoze mu gikakarubamba, rabero yo ku munwa, bikaba bikorwa na forever living product.

Arowe vera jeri poropirisi kereme zikoreshwa mu maso umuntu yivura ingaruka aba yaratewe n'ibiheri. Hano bashyizeho n'amafoto y'abantu byaba byarafashije.

probectisvareve folive reving creduct or pgo and dorc sport avegel bayisiga mu masosabune nayokoze muri allow muanirwa mu maso propoliris clee nayo umuntu ayisiga mu maso byose bikaba bihura ibiheri n'amabara

Abantu bari mu isoko benshi bazanye ibicuruzwa bitandukanye, uyu nguyu uri imbere yateretse amacupa ya mayoneze, icupa ry'amavuta ya elayo, akaba ariho acururiza ibicuruzwa bye.